Abahinzi bari mu murima bahinga, higanjemo abagabo bafite amasuka barimo bahinga, abandi bafite ifumbire bagenda bashyira mu byobo byaciwe n'abafite amasuka.

Inzu igaragara nk'icuruza ibikoresho by'imirama nka karoti, pavuro, sereri, amashu n'intoryi n'ibindi bikoresho bifashisha mu buhinzi bavomerera imboga cyangwa se inyanya n'ibindi bikoresho by'amatungo.

Inzu igaragara nk'icuruza imiti y'amatungo, mu kabati harimo imiti igiye itandukanye, iruhande rw'ako kabati hateretseho ibikoresho, bakoresha bifashisha babika impapuro.

Inzu igaragara nk'icuruza imiti y'amatungo, akabati karimo imiti igiye itandukanye, imbere hicaye umuntu ku ntebe wambaye itaburiya isa umweru, imbere ye hari ameza.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro n'ingofero uhagaze ahantu hari ibyatsi byinshi byumye, hejuru hari ibiti bitaritseho ibigori, hirya hari ibyatsi n'umurima urimo ibiti.

Umurima w'ibigori harimo ibyatsi, hahagazemo umugore wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, yambaye n'amarinete, afite agafuka karimo ifumbire ari gushyira mu bigori.

Inzu igaragara nk'icuruza imiti y'amatungo, utubati turimo imiti igiye itandukanye, aho hari umugore wambaye taburiya isa umweru n'ipantaro, ari gukingura umuryango agiye kwinjira.

Inzu igaragara nk'icuruza imiti, harimo utubati turimo imiti itandukanye, imbere yayo hicaye umugabo wifashe ku gahanga ari kuri terefone igendanwa, imbere ye hari mudasobwa.

Umurima uhinzemo ibigori bikiri bitoya bitangiye kumera, muri uwo murima harimo abagabo babiri, umwe wambaye ingofero afite ibicupa biciye birimo imbuto bari kugenda batera mu byobo baciye muri ibyo bigori.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi harimo abantu, harimo umugore wambaye umupira usa n'umukara n'undi mo imbere z'umutuku wanditseho imbuto, usutse inweri, afite igisahani gisutseho imbuto bari kugenda batera mu bigori.

Umuntu wambaye ga zisa n'ubururu afite imbuto z'ibigori mu ntoki hasi hari ambaraje ari kuzikuramo hari ibibabi iruhande rwe bitoshye.

Inzu igaragara nk'icuruza imiti y'amatungo imanitse mu tubati igiye itandukanye, iyo miti imbere yayo hari intebe ndende ukoramo yicaraho na mudasobwa.

Inzu igaragara nk'icuruza imiti y'amatungo, mu kabati harimo imiti igiye itandukanye, imbere y'ako kabati hari ameza, hicayeho umugabo wambaye ishati.

Umurima uhinzemo ibigori bigitangira kumera, harimo abagore n'abagabo bafite imifuka mu ntoki irimo ifumbire barimo bagenda, bashyira ifumbire muri iyo mirima hakurya hari ishyamba,

Umurima munini uhinzemo imboga n'amashaza, hakurya hari ishyamba n'ibiti, muri uwo murima hahagazemo umusore wambaye umupira n'ikabutura ahetse ipombo ari gutera imiti izo mboga.

Umurima munini urimo ibigori bigitangira kumera, hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye benshi, barimo umugabo n'umugore bambaye imipira isa icyatsi, bafite imbuto mu ntoki bari gutera.

Abantu bari mu murima bambaye imipira isa n'icyatsi, bafite amasuka, bamaze guhinga uwo murima ari benshi, hakurya y'uwo murima hari ishyamba rinini no hino yaryo.

Utubuye twinshi turi mu mubare munini utabasha kubara dutoya dusa nk'ibara rya kaki, turunze ahantu wagira ngo ni nko ku musenyi.

Umurima uhinzemo ibigori bigitangira kumera harimo umugabo ubihagazemo, haruguru y'uwo murima hari umusozi munini uhinzeho icyayi, hakurya hari n'indi misozi.

Umurima uhinzemo ibirayi gusa bamaze gukura, bisa umutuku, biri hasi, hagati y'ibyo birayi harimo utwatsi twagiye dusigara mu gihe bari bari kubikura mu murima...

Umurima wumye, uhinzemo imyumbati ikiri mitoya, hepfo yayo hari umurima munini, ugera hepfo cyane, urimo ibigori bisa nk'ibyumye haruguru yayo hari ishyamba.

Umurima uhinzemo igiti cy'itunda kinini cyatangiye kuzana imbuto, hari amatunda yameze, hari ayeze n'atarera neza, iruhande rwayo hahagaze umusore.

Umurima munini uteyemo inanasi ziteye ku murongo, hagati hagiye harimo ibishara byumye, haruguru y'uwo murima hari amaterasi y'indinganire kuri uwo musozi.

Umurima uhinzemo ibigori gitangira kumera, byinshi hakurya hari ishyamba ririmo ibiti byegeranye, no hepfo yabyo hari irindi shyamba, haruguru hari umurima urimo ibyatsi.

Imirima yagiye icamo imitaru bahinze hagati y'iyo mirima harimo imigezi itemba irimo ibiziba, iruhande rw'iyo mirima hahinze ibiti, hepfo y'imirima hari ibigori byumye.

Umurima urimo ibyatsi harimo n'insina uteyemo igiti cy'umwembe, gitangiye kuzana imbuto hari imyembe yakuze, hariho n'uruyange ruzazaho imbuto, hakurya hari n'ibiti by'indimu.

Abagore babiri bahagaze mu murima uhinzemo inanasi nyinshi, umwe wambaye ingofero, undi ntayo yambaye, bombi bateruye inanasi basa nk'abafata ifoto y'urwibutso.

Umurima urimo insina zikiri kumera nyinshi, hahinzemo n'imboga, ukikijwe n'imisozi, hagati y'uwo murima hahagazemo umugabo wambaye umupira n'ikabutura.

Igiti kirekire k'ipapayi akaba ari imbuto ziba zisa umuhondo mu imbere zirimo utubuto dusu umukara, icyo giti kikaba kiriho amapapayi menshi hari asa icyatsi hari n'ayatangiye gushya ari gusa umuhondo.

Umurima uhinzemo insina nyinshi, harimo ibyatsi n'ibindi biti byimejeje, hepfo hari igisambu kirimo ibyatsi byumye, hakurya hari ishyamba.

Umurima w'ibisheke, ibisheke bifite amababi yatangiye kuma amwe andi asashe hasi, hirya mu murima harimo ibyatsi byameze muri ibyo bisheke bihinze mu murima.

Imirima ibiri itandukanye irimo ibigori byumye, hagati y'iyo mirima harimo imitaru itatu ihinze, hagiye hasasheho ibishishwa by'ibigori byumye, hahagazemo umusaza wambaye ishati n'ipantaro.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi, hari ibigitangira kumera n'ibyameze, hari uruyuzi iruhande rw'uwo murima rurandaranda, uruyuzi rukaba ruzana ibihaza.

Urugo rurimo insina ntoya zikiri kumera, n'imboga z'urwatsi, n'igiti cy'icunga gitangiye kumera, hari n'umurima urimo ibigori, harimo n'ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Umurima uhinzemo inyanya nyinshi, hari izatangiye kuzana imbuto, zimwe zarahiye, izindi zitarashya neza, hasutamyemo umugore wambaye ijipo n'umupira, ateze n'igitambaro mu mutwe.

Ikusanyirizo ry'amata ririmo ibikarito byinshi bigiye bitondekanyije, hasi hateretse ibicuba bijyamo amata, hirya hari ikijerekani gisa ubururu.

Inzu irimo inkoko nyinshi gusa z'imishwi, harimo ibyo ziriraho ziriho ibiryo harimo n'ibintu bisa umutuku bituma inkoko zikomeza zigashyuha.

Ibyatsi bitoshye iruhande rwabyo hari igihaza, hagati y'ibyo byatsi harimo urukwavu akanyamaswa gafite amatwi maremare karya ubwatsi butoshye nk'ubwo.

Inkwavu ziri gusangirira ku gifuniko, harimo: enye zisa umweru, izindi ebyiri zisa umukara, urundi rukwavu rumwe rufite ibara ryerurutse, ririmo umukara muke n'umweru.

Ingurube iba iri mu kiraro, igaragara nk'aho ihaka, abagabo babiri bayifashe ku mugongo, umwe afashe umurizo ari gukurura kugira ngo ibone uko ibwagura.

Inka iri mu mabara y'umukara, mu gahanga kayo hasa umweru no ku maguru, iri gushokera mu kibase kinini cyuzuye amazi, inyuma y'iyo nka hari urubingo runini.

Umurima uhinzemo ibirayi n'imboga, harimo abahinzi benshi abagore biganjemo bafite amasuka, harimo n'umugabo, hakurya hari abandi bantu.

Umurima uhinzemo insina nke cyane, harimo udutsia dutoya n'izindi zimaze gukura, harimo umugabo ufite isuka ari guhinga muri uwo murima.

Umurima urimo abantu batandukanye higanjemo abagabo n'umugore umwe ukenyeye igitenge witeze ikindi mu mutwe; imbere yabo hari umusore ufite igare, hakurya hari umusozi uhinzeho ishyamba.

Abantu bari kubaka akarima k'igikoni harimo umukecu, umugabo n'umugore bafite imigozi bari kuzengurutsa ku biti, hagati mu karima hateyemo ibishyimbo bigufi, iruhande rw'ako karima hari insina ntoya zitangiye kumera.

Umurima urimo ibyatsi, harimo abagabo n'umugore bafite amasuka barimo bahinga, hirya hari ibiti by'imiyenzi n'insina zikikije uwo murima.

Inzu ihomeshejwe icyondo, imbere yayo hari umusore wambaye ipantaro n'umupira, afite isuka ari gukata icyondo, kugira ngo abashe guhoma iyo nzu, iruhande rwe hari ibyatsi.

Umugore uri mu murima uteze igitenge mu mutwe, akenyeye ikindi yambaye umupira arimo arashyira ifumbire mu murima, uteyemo insina, igiti cy'umwembe n'isombe.

Inzu isakaje amabati haruguru y'iyo nzu hari umurima, harimo abagabo bari bafite amasuka bari guhinga, haruguru y'uwo murima batangiye guhingamo harimo insina, imboga n'ibyatsi.

Umurima urimo ibyatsi, harimo abagabo babiri bafite amasuka bari guhinga bamaze guhinga igice kimwe, uwo murima ukikijwe n'urutoki n'ibiti inyuma y'urwo rutoki.

Umurima munini uhinzemo ibirayi, hakurya hari umurima w'urubingo rwinshi cyane, hirya hari amazu, muri uwo murima w'ibirayi hahagazemo umugabo asa nk'uwahira n'undi wunamyemo.

Umurima urimo insina n'ibyatsi byinshi, harimo n'amateke yatangiye kumera, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro na bote, arimo arayora ibishara n'ibirere biva ku nsina.

Umusaza wambaye ipantaro n'umupira n'uwambaye ipantaro n'umupira na bote n'ingofero, bafite amasuka mu ntoki bari guhinga umurima urimo ibigori ndetse n'insina.

Inzu isakaje amabati y'umweru, haruguru yayo hari umurima hahagazemo abagabo batandukanye, bafite amasuka barimo barahinga, igice kimwe bagisoje, imbere hakiri ibyatsi.

Umugore ukenyeye ibitenge wambaye umupira w'umukara, ateze igitenge mu mutwe afite isuka ari guhinga mu murima urimo ibigori, muri uwo murima hateyemo igiti cy'ipapayi hariho imbuto nkeya zameze.

Umurima w'ibigori haruguru yayo hateye ibyatsi, harimo abantu baharura umuhanda w'umuganda, harimo abagabo, abagore n'abakobwa n'akana gatoya gafite amasuka.

Umugabo uri mu murima wambaye ipantaro n'ubusa hejuru, afite isuka ari guhinga amaze guhinga igice kimwe cy'umurima, icy'imbere kirimo ibyatsi, harimo n'isina, inyuma hari indi mirima.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi, iruhande rwayo hari ibyatsi birimo ibiti, hahagaze umugabo wambaye ishati n'amarinete atunga agatoki mu bigori hagati.

Umurima uhinzemo ibigori byatangiye kumera, harimo umukecuru wambaye ijipo n'umupira afite isuka arimo arabagarira ibyo bigori kugira bitarengerwa n'ibyatsi.

Igisambu kirimo ibyatsi byinshi, harimo abagabo babiri umwe yunamye, undi ahagaze n'abandi bari kuza babiri, hakurya hari urutoki n'inzu isakaje amabati hepfo hari ibiti.

Umurima urimo ibyatsi n'ibigori bikeya, hahagaze abantu bambaye imipira isa n'icyatsi, hari umugore wambaye igitenge, yunamye akora mutaka, abandi bamureba, bafite ibitabo mu ntoki.

Abantu bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye higanjemo abagabo n'abagore bafite ibitiyo barimo bakora umuganda rusange hari n'abafite amasuka.

Inzu isakaje amategura, imbere yayo hari abantu bari guhoma icyondo, ku nzu y'ibiti bubatse, imbere yabo hari abandi bari gukata icyondo bakoresheje amasuka, ari umugabo n'umugore, hari n'abandi bahagaze iruhande rwabo.

Inzu igaragara nk'uruganda rw'umuceri, imbere yayo hasutse imiceri, hasi harimo abantu bafite imyeyo n'amabase, barimo barunda iyo miceri.

Umurima munini uhinzemo icyayi, hakurya y'uwo murima hari umusozi muremure, hagati muri icyo cyayi harimo umusore wambaye ikote risa n'icyatsi n'umupira w'umweru mo imbere ari kunyura muri icyo cyayi.

Umurima urimo ibigori bikeya wamezemo ibyatsi, hirya hari ibiti hahagazemo abantu bakoze ikiziga basa nk'abari mu nama, abenshi ari abagabo biganjemo.

Umurima uhinzemo ibigori bikiri bito ariko byatangiye kuma, n'imyumbati hahagazemo umugabo ufite isuka, wambaye umupira n'ipantaro, hakurya hari ibiti hubatse n'amazu.

Umurima uhinzemo inyanya, hahagazemo umugore yunamye. Wambaye ikote risa n'umutuku. Rifite amaboko asa umweru, uteze igitambaro gisa ubururu, inyuma hari ishyamba.

Umuhungu wambaye umupira ufite ingofero, usa umweru, afite imisatsi myinshi, yambaye na bodaboda zisa umuhondo, yunamye akora mu butaka, ari gutera imbuto.

Ni isoko ricuruza ibinyampeke, harimo imifuka irimo ibishyimbo, hariho n'irimo amasaka, irimo soya, irimo ubunyobwa, irimo n'ibindi biribwa by'ibinyampeke nk'amashaza.

Uruganda rukora imiceri hapakiyemo imifuka myinshi y'umweru irimo iyo miceri igiye itondekanyije kugera hejuru, hari abantu bambaye imipira y'umweru, undi wambaye umupira w'umukara, bari guterura iyo mifuka.

Boutique irimo imifuka ipanze y'umweru n'indi y'umuhondo, imbere yayo hateretse amajerekani y'amavuta, iruhande rwabyo hari imifuka isa n'icyatsi, hejuru hateretse amasafuriya.

Isoko ricuruza ibijumba, hari imifuka minini ya kiro jana irimo ibijumba, imifuka isa umweru ifite amabara, mu mpande hari n'ibijumba bisutse hasi ibindi biri mu ibasi isa umutuku.

Ameza manini asutseho soya muri izo soya hateretseho agasahani k'umutuku, aha imbere y'ayo meza hahagaze abantu bambaye imyenda isa n'ubururu barimo batora izo soya.

Ibitebo byinshi byuzuye inyanya zihiye ziteretse ahantu mu isoko hari abantu benshi batandukanye abagabo ndetse n'abagore hari n'abandi bantu bikoreye amabase.

Umurima uhinzemo ibigori byinshi cyane kugera hakurya, hakurya hari inzu iri mu rutoki, haruguru yayo hari umusozi uhinzeho icyayi, hakurya hari ibicu bisa umweru n'ubururu.

Umusaza wicaye hasi kuri sima, afite ibigori byinshi yasharitse bimurunze imbere n'iruhande rwe hari ibindi yasharitse imbere y'idirishya.

Umurima uteyemo umuceri mwinshi cyane mu kibaya, hakurya y'icyo kibaya hari urutoki runini harimo n'ibiti, harimo n'amazu atuyemo abantu.

Isoko ririmo intoryi, inyanya, ibitunguru, karoti, imiteja, pavuro na seleri hirya hari imineke ahandi hamanitse imyenda hari n'abantu bari mu isoko.

Imifuka minini ya kiro jana isa umweru, mu mpande zayo ifite ibara risa n'ubururu, ifunzemo ibirayi byuzuye imifuka myinshi, hejuru ku birarayi haboheshejeho imigozi.

Isoko ry'ibitoki harimo ibitoki byinshi cyane, bigeretse ku bindi, harimo abagore bamwe bikoreye utubase, abandi bicaye, abandi bikoreye ibitoki, hakurya hari igiti.

Umurima urimo ibyatsi byamereyemo, harimo n'ibiti, hakurya hari urutoki runini, hirya hari irindi shyamba. Hakurya hari umusozi munini uciyeho amaterasi y'indinganire.

Inzu isakaje amabati, irimo ibiti bihagaze n'ibindi bitambitse bisharitseho ibigori byinshi, hejuru, hasi, bigiye bitambitse ibindi bihagaze, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Imirima ibiri itandukanye ihinzemo ibigori byinshi cyane, hagati y'iyo mirima harimo umugezi utemba w'amazi y'ibiziba, hakurya hari ibiti ndetse n'imisozi minini iri hakurya yayo.

Uruganda rutunganya imiceri n'ifu za kawunga, babipanze mu mifuka isa umweru n'indi isa umuhondo, imbere hari umugabo wambaye isarubeti isa ubururu wikoreye umufuka w'umweru.

Abagabo babiri bambaye ingofero, amapantaro n'imipira, umwe yambaye ikote, bari guterura imifuka minini imeze nk'isukari, bahagaze hejuru y'indi mifuka ipakiye.

Uruganda rukora imiceri ifunze mu mifuka isa n'umuhondo itondekanyije, hejuru yayo hahagaze umugabo wambaye imyambaro isa n'ubururu, hasi hahagaze abandi bagabo bambaye imyambaro isa n'iyera.

Isoko ry'inyanya ririmo ibitebo byinshi byuzuye inyanya harimo izihiye n'izidahiye neza. Harimo abagabo bambaye imyambaro igaragara nk'iy'idini rya islam n'abagore.

Imifuka ya kilojana isa umweru, mu mpande zayo hasa umutuku, yuzuyemo ibirayi bigaragara nkaho ari mu isoko, hari abantu b'ingeri zose abagabo, abana n'abagore.

Umurima uhinzemo ibigori bikeya, hakurya hari inzuzi, hagati muri uwo murima harimo ibijumba bitukura n'ibisa umweru bamaze gukura birunze mu bice bibiri, hari ibyinshi n'ibikeya.

Isoko ry'ibirayi ririmo ameza menshi asutseho ibirayi byinshi, hejuru hamanitse iminzani, iruhande hari indi minzani, hagati hahagazemo umugabo wambaye umupira usa oranje.

Isoko ry'ibinyampeke, harimo soya, ibishyimbo, ingano, n'uburo, biri mu mabara agiye atandukanye, iby'umutuku, iby'umukara, ndetse n'iby'umweru, n'icyatsi, biri mu mifuka.

Inzu irimo imifuka itondetse hari iy'umweru, iy'umuhondo, imbere yayo hari amajerekani y'amavuta, iruhande rwayo hari imifuka isa n'icyatsi, hejuru hamanitse udusafuriya.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti byinshi n'ibihuru, ku buryo umuntu atabona aho anyura, gusa harimo umwanya utarimo ikintu iryo shyamba ryegeranye cyane.

Ishyamba rinini ririmo ibihuru byinshi, harimo ibyatsi byinshi, ibiti bitangiye kuma n'ibindi bifite amababi maremare n'amashami yaguye, imbere y'iryo shyamba hari icyapa kigaragaza imibare y'iryo shyamba.

Urutoki rurimo insina nini n'izindi ntoya, ruhinzemo ibishyimbo bigufi ndetse n'imyumbati, imbere yayo hari ubutaka budahinzemo abantu banyuramo bagiye muri uwo murima.

Ishyamba ririmo ibiti birebire harimo igiti kinini gisa nk'icyumye, hasi hari ibyatsi bitoshye byabaye igihuru, ibyo biti birebire ari byinshi, harimo ibinanutse.

Inzu yubakishije amatafari abumbye isakaje amabati ashaje, iruhande rwayo hari ibiti birebire insina, ibyatsi ndetse n'isombe n'igiti cy'umwembe kiriho imbuto.

Igihuru kirimo ibyatsi byinshi n'ibiti, hari imikindo wumye, hariho inzuma ziziritse hejuru hari kurandarandaho uruyuzi, rumwe rwera imbuto barya.

Ubusitani buteyemo ibiti binini by'imiyenzi, hari n'ibyatsi biri kumera by'imikeri, hari n'ipera ritoya ritangiye kumera n'ibindi byatsi birandaranda.

Umurima urimo ibyatsi byinshi, hakurya hari urutoki, iruhande rwaho hari igiti cya voka, muri uwo murima hateyemo igihwagari gifite ururabo rugiye kuzazaho ibihwagari.

Umurima uteyemo ibigori byinshi harimo ibyatangiye kuma, muri uwo murima harimo imyumbati mikeya n'ibindi byatsi, hasi mu murima haraguye amababi y'ibigori yumye.

Icyobo kirambuyeho ibiti hejuru biriho ibishara, iruhande rw'icyo cyobo hari ibiti by'avoka, iby'imembe, hakurya hari insina n'ibiti by'imiyenzi.

Umurima uciyemo ibyobo bahinzemo insina zikiri ntoya cyane, hakurya hari inzu isakaje amategura yegeranye n'ishyamba ririmo ibiti birebire, haruguru y'uwo murima hari ibyatsi binini.

Umugore wicaye hasi imbere ye hari ibasi y'icyatsi irimo ishashi, iyo shashi irimo ibinyomoro imbere y'iyo basi hari akandi kabasi gato karimo amatunda no hirya hari ibasi y'umuhondo.

Isoko ririmo ibitunguru by'umutuku n'ibitunguru by'umweru, imiteja iri mu ibasi y'ubururu n'imyungu yera ku byatsi bigenda birandaranda, ariko ikaba iribwa.

Isoko ririmo ameza yubakishije ibiti bitambitse n'ibihagaze, asutseho ibitunguru byinshi, imbere y'ibyo bitunguru hari umunzani uteretseho akabase k'umuhondo, n'abantu bari mu isoko.

Abagore bambaye ibitenge bicaye hasi imbere yabo hateretse amabase abiri, imwe isa n'ubururu irambitsemo urukoma hasi harimo amavoka, indi isa n'umutuku irimo amavoka.

Umurima uhinzemo amateke n'ibirayi byinshi, hahagazemo umugabo ufite ibasi mu ntoki wambaye ingofero, ukikijwe n'ibigori, uwo murima, hirya hari ibiti ndetse n'amashyamba.

Ameza asa nk'ayo mu isoko, ateretseho imineke iri mu maseri menshi, hari n'indi mineke isa nk'iri mu kabati, iruhande rwayo hari amavoka menshi.

Akarima k'igikoni kubakishije imifuka, iruhande hariho uduti, gateyeho imboga harimo idodo, imboga z'ibitabitabi n'amasereri abantu bifashisha barya.

Umurima munini uhinzemo karoti, harimo uruyuzi rwameze ibihaza, wunamyemo umukobwa ufite imisatsi iboshye, yambaye na bote arimo arabisarura.

Ibitunguru bisutse ku meza arambuyeho umufuka hariho na tungurusumu, iruhande rw'ibitunguru hariho umunzani uriho n'igisahani hejuru, iruhande rw'ameza hari injerekani.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaye, ifite n'urugo ruyizengurutse imbere y'urwo rugo hateye indabo n'ibiti bisanzwe ari indabo z'umutuku zifite n'izindi zisa umweru.

Igipapuro gisa ubururu harimo n'ibara ry'umweru, hariho amagambo yanditse mu mweru n'andi yanditse mu muhondo ari mu rurimi rw'icyongereza, giteretseho amaseri atatu y'imineke.

Imboga ziteye mu mutaru zisasije inshinge zumye, iruhande rw'izo mboga hari urubingo ruteye ruteye rwameze n'ibyatsi, inyuma hari n'ibihuru.

Umugore wambaye umupira n'igitenge ari kumwe nabana babiri, bambaye imyenda y'igitenge, bahagaze mu murima w'ibishyimbo, barimo bakuramo ubwatsi bwo guha amatungo.

Urugo rurandarandaho ibyatsi, imbere yayo hateye indabo ziri mu moko menshi, harimo izisa n'icyatsi, izindi zisa n'umuhondo, n'indabo ndende zimeze nk'insina.

Imeza yo mu isoko irambuyeho umufuka usa n'umukara, hasutseho inyanya zihiye; harimo urunyanya rumwe rusa nk'urwaboze ku mutwe, hirya hari imiteja na karoti.

Umurima usashije ibyatsi byumye, hahinzemo ibiriganya bifite amababi atoshye, harimo ikiringanya kimwe cyakuze iruhande rwayo hahagaze umugabo, wambaye inkweto za bodaboda n'ipantaro.

Imirima iciyemo imitaru myinshi itandukanye ihinzemo imiceri, haruguru y'iyo mirima haciye amaterasi agiye ahinzeho ubwatsi n'ibindi, haruguru yayo hari imirima ihinze nta kintu kirimo.

Umurima uhinzemo amashu imitaru itatu, ayo mashusho asashije ibyatsi byumye, harimo abantu bari kugenda bayabagarira, abandi bafotora, hari n'abahagaze ku ruhande.

Umurima munini uhinzemo intoryi, hari insina nkeya ziteye muri izo ntoryi, hirya y'uwo muri uhinzemo intoryi hari ishyamba ririmo ibiti byinshi, hagati mu murima w'intoryi harimo umwana wambaye ikanzu n'umupira ari gukora ku ntoryi.

Umutari uhinzeho icyatsi kimwe gitoshye, hariho umugenda, hirya hari ibyatsi bidahinze bitoshye, bimeze nk'imbuto za karoti abantu bahinze.

Ibinyomoro bihinze mu murima bitaramera neza, inyuma hahinze ishyamba, hari igiti cy'ibinyomoro cyamaze kwera hariho udutoya ndetse n'andi manini.

Urugo rurimo akarima k'igikoni gahinzemo imboga, iruhande rw'urugo hari imifuka iteyemo izindi mboga; iruhande rw'ako karima k'igikoni, hari abagore babiri bunamye, bakoramo muri ako karima.

Isoko ry'imbuto ririmo amacunga, ibinyomoro, watermelon, inanasi n'imyembe biri mu isoko hagati hateretsemo umunzani n'akabasi bimwe biri mu mifuka, ibindi biri mu mashashi.

Umurima munini uhinzemo inyanya haruguru hari ibyatsi byumye ndetse hari n'igikoresho bakoresha bavomerera imboga n'inyanya, haruguru y'uwo murima hahinze ishyamba.

Isoko ry'imbuto ririho ibinyomoro, amacunga, pome n'amatunda biri mu mufuka ibindi biri mu mashashi biri ku meza iruhande rw'ayo meza hari umunzani.

Ishashi iri mu mabara y'umweru, umukara, umuhondo n'umutuku irambuye hasi iteretseho indi shashi, irimo amashaza cyangwa se ibyo abantu bita urunyogwe.

Umurima uteyemo ibinyomoro, ibyo binyomoro bigiye bishingirije ibiti kugira ngo bijye bikura bizamukira kuri ibyo biti, inyuma y'uwo murima hari ishyamba rinini.

Ahantu bahinga ibinyomoro, hasakaje supanete isa umukara, iteye ku biti, harimo abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe, bari kureba imbuto z'ibinyomoro.

Umurima urimo ibyatsi binini byakuze, harimo abantu batandukanye higanjemo abagabo, bamwe barimo babikoramo, abandi bahagaze imbere bareba uko babikora, hari n'abicaye hirya hasi.

Umurima uhinzemo pavulo nyinshi zisashije inshinge zumye, hakurya hari umurima urimo ibyatsi bitangiye kuma. Izo pavuro hari izatangiye kumera n'izifite uruyange.

Igitebo kiri mu isoko kirimo amashu manini afite amababi atoshye, hejuru hateretse base isa n'ubururu, iruhande rwabyo hari ibitunguru by'umutuku.

Indabo z'icyatsi ziriho ibintu birandaranda by'umuhondo hejuru, hegereye igiti kirekire, hirya hari amazu asakaje amabati, n'ibipoto bijyana umuriro.

Umurima uhinzemo ibirayi hari kuzamukamo n'utugori dutoya, ukikijwe n'udutsina dutoya tukiri kumera hahagazemo umugabo wambaye ingofero n'ishati.

Indabo zisa umuhondo ziteye ahantu ku muhanda, inyuma yazo hari ibyatsi byinshi cyane bitoshye, hari n'igiti, inyuma y'ibyo byatsi hari senyenge.

Ibigori bihinze mu murima barabiteye, ibiti bihagaze n'ibitambitse kugira ngo bijye birandarandaho byere kugenda hasi, bifite imbuto zimwe zatangiye gushya izindi zitarashya.

Ibiti by'avoka bikiriho utuvoka dutangiye kumera duto cyane n'uruyange rw'izigiye kuza, iruhande rwayo hahagaze umusore wambaye umupira n'ingofero afashe kuri voka imwe.

Agatebo gasa icyatsi gapfumaguye ku ruhande, karimo inyanya zifite utuntu tw'umukara ku mitwe yazo bakunda kwita nyirakanyanya, iruhande rw'ako gatebo hari urugi.

Umufuka irambuyeho intokiyi, amacunga, imiteja n'inyanya, bigaragara nk'agasoko ko ku muhanda, imbere hari hicaye abantu batatu umugabo umwe n'abagore babiri, bafite ibitunguru, amacunga n'imboga mu ntoki bafata ifoto.

Umurima uhinzemo amashu menshi, iruhande rwayo hari ibyatsi bitoshye, hagati y'amashu ahagaze umugabo wambaye umupira usa n'ubururu n'ipantaro isa n'umukara.

Umurima uhinzemo amakaroti menshi uciyemo imiringoti ibiri, hepfo hari umurima urimo ibijumba, hirya hari umurima w'ibigori, hakurya hari igiti kirekire.

Umuhungu wambaye umupira usa n'umweru n'ipantaro y'ubururu, afite imbuto y'avoka mu ntoki, imbere ye hari imbuto nyinshi z'avoka, inyuma ye hari abagore batatu n'inyuma ye hari izindi mbuto.

Umurima w'inyanya munini ukikijwe n'umurima w'ibigori, hagati y'umurima w'inyanya harimo umusaza wambaye ingofero n'ishati n'ipantaro, ahetse ipompo arimo atera umuti mu nyanya.

Ibitunguru by'umutuku biri mu kabati k'icyuma ko mu isoko harimo seleri na karoti n'umufuka, iruhande rwayo hari ibasi itukura.

Ibasi irimo inyanya zihiye isa ubururu ku ruhande hari puwaro zizirikishije ikirere, hirya y'iyo hari akabasi gato karimo imiteja, akandi karimo tungurusumu dusa ubururu.

Umuntu ufite urubuto rwa pome mu ntoki, imbere ye hari ibitunguru bitukura n'ibisa umweru, biteretseho akabase k'icyatsi karimo pavuro, iruhande rw'ibyo bitunguru, hariho ibindi bitunguru birebire by'icyatsi.

Umurima uhinzemo ibitunguru byinshi, iruhande rwayo hari insina, hirya hari umugezi hahagazemo umugore n'umugabo barimo baruhira bakoresheje umupira w'amazi.

Umurima uhinzemo imboga, uri hakurya uhinzemo ibigori wegeranye n'ibiti, umurima uhinzemo imboga hahagazemo umugabo wambaye isalubeti isa ubururu n'ingofero y'umukara, afite ipompo ari kuvomera imboga.

Umurima uhinzemo ibigori n'undi wuzuyemo amazi hahagazemo umugabo ufite ipompo arimo aravomera umurima, hakurya hari ishyamba n'ibihuru.

Umurima uhinzemo ibigori bigitangira kumera byinshi, harimo umugabo n'umugore bahagaze bafite amasuka, iruhande rwabo inyuma y'uwo murima hari ikiraro.

Umurima uhinzemo ibyatsi byinshi harimo umugore wambaye igitenge n'umupira w'icyatsi ateze igitambaro gisa umukara, afite ibasi isa ubururu asa nk'uri gusarura ibihinze mu murima.

Umurima uhinzemo ibigori bikiri bitoya byinshi, harimo umugabo wambaye umupira n'ipantaro n'undi, bafite amapompo y'amazi bari kuvomerera ibyo bigori.

Umurima uhinzemo imboga nyinshi, ukikijwe n'insina nkeya, uhagazemo abagore babiri bari kuhira bakoresheje amazi, iruhande hari abandi bantu babiri.

Umurima munini uhinzemo inyanya ukikijwe n'ibiti byinshi by'imiyenzi, hahagazemo umugabo wambaye ingofero n'umupira n'ipantaro, afite umupira w'amazi ari kuvomerera izo nyanya.

Umugezi utembamo amazi y'ibiziba harimo abana babiri, ufite injerekani y'umuhondo ebyiri n'undi ufite iz'icyatsi ebyiri ari kudaha amazi undi ayateruye agiye.

Umurima uhinzemo imbuga ziteye ku murongo, hakurya hari igiti, hari n'umurima udahinzemo ari ubutaka gusa, muruwo murima uteyemo imboga hahagazemo umugore wambaye ibitenge, afite ikivomesho arikuvomerera imboga.

Ishyamba abantu bari guhingamo harimo abagabo, abana n'abagore, bamaze guhinga igice kimwe, igice cyo haruguru bari kugicamo imitaru.

Umuririma uhinzemo ibishyimbo biciye bugufi, harimo urutoki rugizwe n'insina nkeya, hakurya hari umusozi, hejuru igicu cyerurutse kirimo umweru n'ubururu.

Umudugudu uri ahitaruye utuyemo abantu bake, harimo amazu make, ahandi ari ibyatsi bitoshye ndetse n'amashyamba, hakurya yayo hari umusozi uriho ibiti.

Imirima ihinzemo icyayi igiye icamo imitaru, hari imiremire ndetse n'imigufi, iruhande rw'iyo mirima hari ibiti, hagati naho hari ibindi biti, hari n'imirima idahinze.

Umurima uciyemo amaterasi y'indinganire agiye ahinzeho, umurima umwe uhinzeho imboga undi bataratangira kuwuhinga, hepfo hari imirima ihinze yegeranye n'amazu asakaje amabati.

Umusozi uteyeho ibiti hariho amaterasi y'indinganire, harimo n'inzu ituwe n'abantu isakaje amabati, hakurya hari undi musozi uteyeho ishyamba rinini rikata no hirya.

Imirima ihinzemo imiceri ikiri mitoya iciyemo imitaro, imiringoti, harimo amazi, iruhande rw'ayo mazi y'ibiziba hahagaze umukobwa ayitegereza afite terefone mu ntoki.

Umusozi uciyeho amaterasi y'indinganire hahinzeho imboga, imbere hari insina, hirya harimo n'ibiti bigaragara nk'ishyamba n'amazu atuyeho abantu.

Ahantu haciye amaterasi y'indiganire harimo abantu benshi barimo bayakoramo, hirya hari umurima uciyemo ibyobo bagiye guteramo imbuto, hakurya hari ishyamba.

Umurima uhinze hakurya y'umurima hari imirima minini iteyemo ibyatsi, hirya hari ishyamba ry'indinganire ririmo ibiti byinshi, haruguru y'iyo mirima hari imidugudu ituwe n'abantu.

Umurima uhinzemo umuceri. Iruhande rw'uwo murima hari icyondo cyinshi, hari ibiti byegereye uwo murima, bishinze. Hakurya hari ishyamba rinini cyane, no hirya ari umusozi.

Imirima iciyemo amaterasi y'indinganire menshi, hari ahari ibyatsi ahandi hadahinze, hakurya hari umusozi muremure uteyeho ishyamba uciyeho n'amaterasi y'indinganire.

Ikibaya giciyemo imitaru itandukanye gitoshye, hagati harimo imigenda irimo amazi, hirya hari ibiti ku ruhande hari imisozi ikikijwe n'amashyamba.

Umugore wambaye ibitenge ufite isuka ku rutugu, iruhande rwe hari umurima w'ibigori, hirya hari umusozi uteyeho ishyamba n'ibiti byinshi, umurima ahagazemo urimo ibyatsi bitoshye.

Amazu yubatse nk'ikigo cy'amashuri yubakishije amatafari, asakaje amabati atukura, haruguru yayo hari igisambu kirimo ibyatsi bitoshye hakurya hari amazu.

Umusozi uciyeho amaterasi y'indinganire, hakurya hari umurima uhinzemo hahagazemo abantu na za kadahumeka zikanga utunyoni n'izindi nyamaswa kugira ngo zitarya ibishyimbo.

Umurima uhinzemo imyumbati myinshi, hakurya hari igisambu ndetse n'ishyamba, haruguru y'uwo umurima harimo umuringoti, hejuru yayo hari umukingo uteyeho ibyatsi.

Imirima yahinzemo ibigori indi idahinzemo, hagati harimo hatemba umugezi barakoze urutindo rw'ibiti, hahagaze nk'umukecuru wikoreye umuba w'inkwi afite n'inkoni mu ntoki.

Umugabo usutamye wambaye ishati n'ipantaro, imbere ye hari inkoko ziri gutora n'izindi ziri kwigendera azireba, inyuma ye hari inzu ihomesheje ibyondo, isakaje amategura.

Umugabo n'abagore n'umusaza n'abakecuru, bahagaze bafata ifoto bafite inkwavu mu ntoki, berekana umusaruro w'ibyo bagezeho abenshi bari bafite ebyiri mu biganza.

Umukobwa wambaye umupira usa umweru n'ipantaro y'umukara usutse inweri, wambaye agapfukamunwa k'ubururu asutamye imbere y'urugi rw'ibyuma rukingiye ingurube nini cyane.

Inka ebyiri ziri mu kiraro gisashije icyarire cyubakishije ibiti mo hagati, iruhande hari amategura inka zifite amabara atandukanye harimo ikijuju n'umweru.

Ikiraro cyubakishije ibiti bihagaze ibindi bitambitse, gisashishije ibishara, kirimo ingurube nini cyane iryamye kuri byo bishara isa nk'isinziriye.

Ikiraro cyubakishije amatafari gisakaje amabati, harimo ibiti bihagaze n'ibitambitse, harimo inka isa n'umukara ndetse n'umweru, hasi hari ibyatsi.

Inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, gisakaje amabati, ifite amabara asa umweru, n'ayandi y'umukara, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye umupira w'ubururu, n'ipantaro y'umukara.

Ikiraro cyubakishije ibiti bihagaze ibindi bitambitse harimo ingurube nini isa n'umutuku, gusa isa nabi imbere yayo hari ibyatsi iri kurya, hasi hari imyanda yayo.

Ikiraro cyubakishije ibiti hasi hasashije ishinge yumye harimo inyana iri mu mabara abiri umukara ndetse n'umweru.

Inka iri mu kiraro iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hari ibyatsi biri mu buriro, icyo kiraro cyubakishije ibiti, hasi hari amase menshi.

Inzu ifite urugi ruhomesheje ibyondo n'urugi rw'igiti, imbere y'iyo nzu hari amabuye hariho ingurube isa umutuku, gusa isa nabi, imbere yayo hari umufuka n'ikijerekani.

Ikiraro kibakisi ibiti harimo ihene ebyiri, imwe isa umukara indi isa kaki, imbere yayo hari umukecuru wambaye igitenge n'umupira, hasi aho ihene ziri, hasashije urubingo.

Ikiraro gisakaje amabati, cyubakishije ibiti ku mpande bitambitse, bigiye bitandukanye, aho inka ziri harimo inka ziri mu mabara menshi, imbere yayo hahagaze umusore wambaye ishati n'ipantaro.

Abagabo bahagaze bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye bafite inkwavu ebyiri mu ntoki buri wese, inyuma yabo hari ikibuti kirimo inkwavu cyubakisheje ibiti bisa n'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari abumbye, isakaje amabati, imbere y'iyo nzu hari ibyatsi, inzu isa nk'isenyutseho, imbere yayo hari ibyana by'ingurube bikiri bitoya biri kurisha muri ibyo byatsi.

Umugore wambaye ibitenge bisa n'umuhondo ateze ikindi, iruhande rwe ari umwana wambaye impuzankano isa n'ubururu, bafite ingurube nini cyane bari kuyishorera mu ibasi isa n'ubururu.

Ikiraro kirimo ihene ebyiri n'ingurube imwe, zikikijwe n'urugo rw'imiyenzi, ihene ziziritse ku biti, hasi hari ibyatsi n'amakoma ingurube iri kurya.

Ikiraro cyubakishije amatafari, gihomyeho icyondo, harimo akanyana kari mu mabara y'umweru n'amabara y'umukara, gafite ikiziriko mu ijosi, hasi hashashe ibishishwa by'ibishyimbo byumye.

Ingurube eshatu ziri mu kiraro ziri kureba imbere yazo, iruhande rwazo hubakishije igisima zisa nk'aho zinyweramo amazi mu gihe bagiye kuzishora.

Inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, iyo nka iri mu mabara abiri umukara n'umweru, iruhande rwayo hari akanyana kacyiri gato, kari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Umugore uri kugaburira ihene ebyiri ziri mu mabara ya kaki n'umweru, iruhande rwe hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hepfo hari urutoki ruhinzemo ibishyimbo n'imboga.

Ikiraro k'ingurube cyubakishije ibiti bihagaze ibindi bizengurutse, inyuma yabyo hari urugo rukozwe n'ibiti by'inturusu, muri icyo kiraro harimo ingurube nini isa n'umukara izwi nka kizungu n'ibyana byayo.

Inka iririmo ibara ry'umukara n'irindi y'umweru, ifite ikiziriko mu ijosi iri kurisha hasi, gusa mu gitaka iruhande rwayo inyuma hari umugabo wambaye ibirenge n'ikote.

Abantu harimo abagabo n'abagore bafite ibiziriko by'ingurube zabo zibahagaze imbere, iruhande rwabo hari abandi bantu n'umukecuru wicaye hasi, hirya hari amagare yegetse ku giti.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa gasa ubururu, n'umupira usa ubururu mo imbere, yambaye impuzankano y'abaganga, ahagaze imbere y'ibiraro birimo ingurube, ziri mu mabara y'umukara nay'umutuku.

Ibyatsi byumye hahagazemo intama ifite ibyoya benshi cyane, hepfo y'ibyo byatsi hari umurima uhinze ukikijwe n'urubingo, hirya y'aho hari inzu isakaje amabati y'ubururu.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore bahagaze iruhande rw'ibiraro byubakishije ibiti, bisakaje amabati, inyuma yabo hari imiyezi ndetse n'insina.

Inzu irimo imitiba ya kijyambere n'iya Kinyarwanda, iriho ibirere, indi ikoze mu biti iteretse iruhande rw'idirishya hariho rido.

Inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, icyo kiraro harimo ibyatsi hasi byumye, iyo nka isa umukara, ifite iherena ry'inka ku gutwi, mu buriro bwayo harimo ibyatsi, iruhande rwabyo hari inturusu.

Ikiraro cy'inka cyubakijije ibiti, gisakaje amabati, harimo inka ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere yazo hari inkoko, imbata n'utubido.

Ihene ihagaze mu byatsi byinshi iri mu mabara abiri irya kaki n'iry'umweru ryiganje cyane, ku ruhande rw'itako ryayo hariho amabara asa n'ubururu ifite ikiziko mu ijosi.

Ihene ebyiri zisa umukara imwe ifite ibara ry'umweru mu gahanga, ziri mu kiraro cyubakishije ibiti, hasi hasashije ibyatsi, kidasakaye, kirimo kigeramo izuba.

Ikiraro cyubakishije ibiti by'ingiga bimwe bihagaze ibindi bitambitse, inyuma y'icyo kiraro hari amazu mu kiraro harimo ingurube y'umutuku zikunze kwitwa iza kizungu.

Inka iri mu kiraro ifite amabara y'umukara n'umweru, yambaye iherena ry'inka ku gutwi risa icyatsi, iri kurya ubwatsi bashyize muburiro bwayo.

Inka isa n'umukara, ifite ibara risa n'umweru mu gahanga, ifite ikiziriko mu ijosi, iri kurisha ibishishwa by'ibishyimbo, iri mu kiraro cyubakishije ibiti.

Ihene ebyiri ziziritse mu gisambu, imwe isa n'umukara n'irindi bara ry'umweru mu gahanga no mu rubavu, ifite ikiziriko mu ijosi, indi ihene iri kure isa kake.

Ihene iziritse mu rutoki isa n'umukara iri kurisha hasi, hirya hari urutoki rusutsemo ibyatsi byumye bigaragara nk'ibishishwa by'ibishyimbo bamaze gutonora.

Ikiraro cyubakishije ibiti bitambitse, ibindi bihagaze hasi hari ibyatsi, hari ingurube nini cyane iri gushoka mu gasafuriya gasa umukara, inyuma y'iyo ngurube hari igipapuro.

Inka iryamye mu kiraro isashije icyarire cyumye, imbere yayo hari uburiro bwubakishije ibiti, kimwe n'ikiraro cyayo cyubakishije ibiti, mu buriro harimo ibyatsi.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere y'ikiraro, imbere yabo hari inkoko nyinshi n'umwana wambaye impuzankano isa n'ubururu hejuru no hasi, umugabo afite urubingo mu ntoki.

Ikiraro kizengurukijwe n'ibiti impande zombi hasashe ibyatsi no hasi, harimo ingurube nini n'ibyana byayo ibwaguye, hanze y'ikiraro hari igitaka, ubona ko icyo kiraro kidasakaye.

Ikiraro cyubakishije ibiti, gisakaje amabati, iruhande rwacyo hari inzu isakaje amategura, mu kiraro harimo inka ebyiri, imbere y'icyo kiraro hagaze abagabo batanu n'akana gatoya.

Ingurube iri mu kiraro, cyubakishije ibiti, ingurube nini cyane, iryamye hasi, ibyana byayo biyiriho, birenga icumi, iruhande rwabyo hari akabido.

Ikiraro cyubakishije ibiti kimanitseho imyenda kuri ibyo biti gisakaje amabati, imbere yayo hari igiti cy'ipapayi, hasi yacyo barambuyeho ibiti, hari inkoko imbere yayo.

Umurima usasije ishinge yumye, uciyemo imiringoti, hahinzemo intoyi zitoshye, zamaze gukura zifite amababi maremare.

Umurima uteyemo puwaro nyinshi cyane haragiye hazamukamo n'ibyatsi bisanzwe, inyuma hari umurima urimo ibisheke bifite amababi atoshye, hari n'andi mababi yatangiye kuma.

Umurima uhinzemo ibigori byumye byinshi cyane, harimo ibiti bitoshye bisanzwe, hakurya hari umusozi uriho urutoki n'amazu atuwe n'abantu.

Umurima munini uhinzemo amashu yameze, hari ayatangiye kuma amababi, ukikijwe n'ibigori byumye n'insina, iruhande rwabyo hari imiyenzi.

Ishyamba ririmo ibihuru byinshi ndetse n'ibiti hasi hari umuhanda wa kaburimbo, hino y'umuhanda wa kaburimbo hari ibyatsi biteyemo urubuto rw'ikinyomoro rukaba rurandaranda rufite imbuto zameze.

Umurima uhinzemo ibirayi byinshi cyane bitoshye bifite amababi yazamutse hejuru, hari ibirayi bakuye biriho ku kirayi kimwe bifatanye ari byinshi ari nk'icumi.

Umurima uhinzemo amashu ku murongo, harimo ayatangiye kuma n'andi atangiye kumera, harimo n'utwatsi duto duto dutangiye kumera, harimo n'imiringoti idahinzemo.

Ibigori bisharitse hejuru bisa ni byumye byinshi bitandukanye bikikijwe na shitingi hejuru, iruhande hari igiti bigiye biziritseho.

Umurima munini uhinzemo ibijumba, inyuma y'uwo murima hari ishyamba, hagati mu murima w'ibijumba hahagazemo umugabo wambaye ishati n'ipantaro ari kureba muri telefone igendanwa hirya ye hari igiti.

Umugabo wambaye ipantaro na bote n'agapira karimo amabara y'umukara n'umweru n'ingofero y'icyatsi, afashe inka umunwa ari kuyirebesha hejuru, ari kuyisuka umuti mu kanwa. Iyo nka yambaye iherena ku gutwi ry'umuhondo.

Umugabo wambaye isarubeti na bote n'ingofero, afashe ku cyuma gihagaze hari n'ibindi byuma bitambitse, arimo arakora ku munwa w'indogobe yiwe inyuma yabo hari igiti.

Umugabo wambaye ipantaro n'ishati bis'icyatsi na bote, imbere ye hari inka ifite ibara ry'umukara n'umweru iri kuririsha mu gisambu, imbere y'icyo gisambu hari inzu isakarishije amategura.

Inka ziri mu kiraro cyubakishije ibiti, gisakaje amabati, ziri kurya ubwatsi buri mu buriro, imbere hari abantu bafite impapuro bari kwandika, hirya yabo hari ikigega.

Umugabo wambaye igisarubeti gisa ubururu, n'undi wambaye ikote n'ipantaro n'inkweto zisa umuhondo, bafashe inka bari kuyiha umuti, inyuma yabo hari ikiraro cyubakishije ibiti, gisakaje amabati.

Inka zihagaze mu mbuga ziri mu mabara atandukanye yiganjemo umukara n'umweru na kaki. Hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro, afite icyuma, ari gukata ubwoya bw'inka.

Igisambu kirimo ibyatsi bitoshye n'amatungo yiganjemo ihene, harimo umugabo afashe ihene imwe arimo arayitera urushinge, n'umwana umwicaye iruhande, areba uko abigenza.

Umugabo wambaye itaburiya n'ipantaro, iruhande rwe hari umusaza, bafite inka bayiziritse ku giti, yambaye ga, asa nk'uri kuyica amahembe.

Ihene iri mu gihuru kirimo ibyatsi bitoshye, n'ibiti, ihene iri mu mabara abiri yiganjemo kaki, mu gahanga kayo harimo ibara ry'umukara rimanutse, hamwe n'amatwi.

Igiti cyumye kiriho inzoka iri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo hasi, iyo nzoka ikaba izwi nk'incarwatsi, inzoka akaba ari inyamaswa zigira ubumara, ziryana.

Inzovu nyinshi harimo inkuru ndetse n'intoya, akaba ari inyamaswa ziba mu mashyamba, aba ari inyamaswa nini cyane zifite n'amatwi manini ziri mu byatsi, inyuma yazo hari umugezi.

Umutubu, akaba ari ubwoko bw'ibikeri bikiri bitoya biba mu mazi akenshi, kikaba gifite amabara yijimye, gihagaze mu byatsi, ni mu byatsi biteye mu mazi.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti, ifite ibara risa n'umukara n'irindi rito riri ku ibaba risa n'umutuku. Hirya hari ikibabi cy'icyo giti inyoni ihagazeho.

Inkende ziri mu mabara y'umukara n'umweru, hari inkende nkuru zimye ziteruye ibyana byazo, ibindi biri kumwe nabyo bihagaze ku ishami ry'igiti, inkende akaba ari inyamaswa ziba mu ishyamba.

Igiti gifite amababi asa n'icyatsi menshi atoshye, amashami yacyo ahagazeho akanyoni kari mu mabara asa n'umweru, n'ibara risa na shokora.

Ibyatsi birimo utunyamaswa tw'ishyamba bakunze kwita ihene z'ishyamba twinshi, tumwe turi kurisha utundi duhagaze, inyuma yatwo hari ishyamba n'umusozi muremure.

Inkende ebyiri; imwe inkuru n'indi ntoya, inkuru iteruye intoya, biri mu mabara asa n'umukara, mu maso habyo hasa umweru, byicaye ku ishami ry'igiti.

Udusumbashyamba tubiri dukuru n'akandi kamwe gatoya, akaba ari inyamaswa zizwiho kugira amajosi maremare zikaba zihagaze mu byatsi bisa n'ibyumye, iruhande rwayo hari igihuru gitoshye.

Ikinyugunyugu kiri mu ibara ry'ubururu gihagaze ku mabuye, iruhande rwayo hari amabuye yamezemo ibyatsi bifite amababi atoshye hirya hari n'ubutaka.